Abantu bicaye batandukanye bameze nka bari mu nama ku meza bicaye hari mikoro n'uducupa tw'amazi hagati yabo harimo n'inzira umuntu yacamo, inyuma hari urugi rugaragara nk'idirishya.

Abantu bicaye ku meza, intebe zirho ibitambaro by'umukara n'ameza hari igitambaro cy'umukara n'ikindi gitambitseho hejuru, hari kamera iri hagati mu bantu, iri gufata amashusho, hari n'ibintu byaditse ku rukuta.

Habineza Frank, iruhande rwe hari abantu bahicaye, icupa ry'amazi n'irya ji, ikirahure, hari icyapa kimanitse ku gikuta, kiriho amadarapo y'amashyaka atandukanye.

Abantu bari mu nama imbere yabo hagiye hateretse mashine n'uducupa tw'amazi, hari n'uhagaze imbere ye hari kamera, ashobora kuba yari ari gufata amashusho, hari n'abicaye imbere yabo bashobora kuba aribo bari bayoboye inama.

Abantu bicaye bameze nk'abari mu nama, umwe ari kwandika ameze nk'umushinwa, hari n'abandi bari hirya ye hateretse n'amacupa y'amazi ku meza uri ku mpande afite telefone mu ntoki hari n'abandi bari inyuma ye, hejuru ku gisenge hari n'amatara.

Abantu bicaye ku meza hariho ibitambaro, bimwe ku ntebe hamanitseho igikapu, ku mpande hari amadirishya afunguye amarido, inyuma hamanitse ikintu ari kubigishirizaho hari n'ubahagaze imbere, ku meza hagiye hateretseho n'uducupa tw'amazi na mashine.

Abantu bicaye muri sale, ameza y'uruziga hariho ibitambaro by'icyatsi, inyuma hariho icyapa kimanitse cyanditseho irembo, hari na taburo itagaragara neza, hari umugabo ufite mikoro abahagaze imbere, hirya hari n'indi taburo itagaragara.

Abantu bari mu nama bamwe baricaye abandi barahagaze, inyuma yabo hari imodoka ya zonda, hirya hari inzu zimeze nk'iz'ubucuruzi, hari n'ipoto y'umuriro n'indi modoka ipfutse hejuru n'ikintu cy'ibara ry'ubururu.

Abantu batandukanye bicaye mu cyumba cy'inama bicaye barebana, imbere yabo hari uducupa tw'amazi na mikoro, umwe ku mpande ari kwandika, hakurya hari amadirishya n'intebe ziticayemo abantu, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza ya shokora.

Icyo bari mu nama imbere hari porojegiteri bari kureberaho bafite n'imashini zigiye ziteretse imbere yabo n'impapuro n'uducupa tw'amazi hirya hari umuntu uhagaze uri kureba imbere ashobora kuba ari we uri kubasobanurira.

Abantu bica mu cyumba cy'inama, hari uri kwandika na bike ku rupapuro, hirya hari abandi bari kureba imbere, ku meza hateretseho amacupa y'amazi n'inyuma hari abandi bantu bahicaye, hari na televiziyo imanitse ku gikuta.

Abantu bari muri sitade bambaye imipira y'amabara atandukanye, ubanza habaye nk'igikorwa cyo guhurira ahantu hamwe, bakagenda bambaye imyenda igiye isa bitewe n'uko bajyanye, imbere yabo hakaba hari umuntu uhahagaze, hari na za bafure.

Abantu batatu bicaye, imbere yabo hagiye hateretse utwapa, uwo hepfo akapa ke kanditseho kigali siti kansa bano babiri utwapa twabo twanditseho ibintu bimwe inako n'amacupa ibirahuri.

Abantu bicaye benshi n'abandi bahagaze, abicaye bicaye mu ihema kuri iryo hema hadekoreshejweho amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari umugore uri gusuhuza umugabo, iruhande rw'uwo mugabo hari abasirikare babiri, iyi foto ikaba yarafashwe tariki ebyiri z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi.

Abagore batatu bicaye, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite bike mu ntoki yamunitse n'ukuboko, undi afite igitabo mu ntoki ari kurebamo, ku meza hariho uducupa tw'amazi y'inyange turambitse, ameza ariho igitambaro, hino hari n'irindi cupa ritagaragara neza ry'amazi, ku gikuta hariho ibara rya shokora, hariho n'ahantu bacanira ibitare.

Abantu bicaye bameze nk'abari mu nama, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi akoze mu birarahure, bambaye n'amapaje mu josi, hari n'undi muntu utari kugaragara hirya.

Abantu bicaye bari mu nama, ku meza hateretseho amacupa y'amazi, hariho n'agaseke n'inyuma hariho abandi bantu babiri bicaye n'amazi ku meza, hari n'abandi bahagaze mu muryango batagaragara neza hari na pankarite imanitse mu mpande.

Ni ihema ridodeyeho amabara y'idarapo ry'igihugu, hari abantu bicayemo, imbere hari umucyeka uhasashe, harimo igitambaro cy'umuhodo kiri kugaragara, hari n'umuntu uhagaze imbere ufite mikoro, ku ruhande hakikijwe n'abandi bantu, hakurya hari ishyamba n'insina.

Abantu bicaye imbere hakaba hari n'abandi bicaye babareba, inyuma yabo hakaba hamanitse pankarite yanditseho ko ari inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo. Hakaba hari na bafure imanitse.

Icyapa kiriho kampani zitandukanye hariho setineri banki, senti agenti, emutiyene mobayiro mani, eyateri mani, payi weyi sevisi, na banki egenti na ekwiti.

Inyubako imbere hariho amasekariye, hari ibyapa by'amakampani atandukanye, DS TV, Express point, MTN,Eyateri, Tigo, hariho n'ahandi hariho ukuboko k'umuntu ufashe akamashini mu ntoki.

Umuhungu uhagaze wambaye umupira wanditseho irembo. Hirya hari undi wicaye imbere y'ihema hari abantu bahahagaze, n'abandi barimo imbere. Ku meza hateretse za mashini ebyiri na imprimente.

Umunara uri ahantu hateye insina hari n'ibiti by'imyumbati, hejuru ku munara hariho ibindi bintu byometseho, hejuru hari ikirere gikeye, hepfo hari n'ahandi hari imyumbati ihateye.

Inzu ya Convention Center na Radisson Blue, hakaba hamanitse n'ibyuma bijyaho amadarapo hari na jaride, hari n'ibyuma biri imbere y'inyubako, akaba ari Kigali Convention Center bizinesi iventi.

Inzu bacuruzamo ibintu bitandukanye, harimo ibinyobwa biri mu mashashi n'ibiri mu makarito, hejuru ku muryango haditseho irembo, ko bakorana na BK na Equity na KCB, NA WESTERTN UNION, bakab banafotora, hakaba hari n'umuntu uri kwerekeza kuri uwo muryango.

Ni ibyerekana ko umuntu agomba gukoresha, tape andi go, atagomba kwishyura amafaranga mu ntoki, ayaha umushoferi niyo mabwiriza RURA yashyizeho.

Abantu batatu bahagaze, barangariye bose muri terefone yuri hagati, inyuma yabo hari inyubako, n'igiti kitagaragara neza n'undi muntu uhagaze inyuma yabo utagaragara neza, n'ikirere.

Habayeho ko gaze isohoka, ikibikubwira wumva impumuro ya gaze, mu gihe utetse funga gaze, mu gihe utekeye mu nzu, sohora icupa ryawe hanze, ahantu hari umwuka uhagije, irinde ikintu cyose cyatuma gaze yaka, nko kunywa itabi cyangwa ikibiriti, irinde kuzimya cyangwa kwatsa amashanyarazi na enterebuteri, irinde kuzimya cyangwa kwatsa igikoresho cyose cy'amashanyarazi, kuko byazana udushashi tw'umuriro.

Abantu bicaye barebana, ku meza hagiye hateretseho mashine, bari mu kazi, hirya muri etajeri harimo ibitabo byinshi, hari n'ibindi bitabo biri hano ku mpande, hirya hari abantu bahahagaze, hariya hamanitse ibitabo, hari n'amarido yo hejuru, hirya hakaba hari n'undi muntu uhahagaze.

Abantu batanu bahagaze mu mbuga, imbere y'inyubako, hepfo yabo hari imodoka isa ubururu, batatu bafashe mashine mu ntoki bose bari kureba muri mashine bambaye masike, batatu bo hepfo bari kurebera muri mashini imwe.

Uyu ni umunara, uriho ibintu bitandukanye, ukoze mu cyuma n'ikirere gisa neza, urasa umutuku n'umweru.

Ibijyanye n'irembo intambwe ya mbere y'uko wabyikorera, gana urubuga rw'irembo ahanditse polisi, ibisabwa: usaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru y'imyaka cumi n'itandatu, abasaba bagomba kugira nimero ya telefoni cyangwa aderesi ya imayiri bikora kugira ngo bakire imenyesha.

RBA iraza gucishaho ikiganiro cya Rwanda Revenue Authority itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatanti y'igihembwe cya nyuma ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane, uyu munsi makumyabiri n'imwe z'ukwa cumi makumyabiri makumya na kane saa mbiri na cumi n'itanu z'umugoroba, kuri radiyo Rwanda niho ikiganiro kiri buce.

Mashine zigiye ziteretse ku meza, hari n'abantu bazicaye imbere hari n'iziticayeho abantu. Hirya hari abandi bantu bahicaye nabo hari za mashine imbere yabo, hari n'undi wicaye inyuma. Hari n'umugabo uhagaze iruhande rwe hari n'undi wicaye wifashe ku mutwe.

Ipoto ry'itara iziritseho insinga, hakurya hari ishyamba ritagaragara neza ariko biragaragara ko ari rinini, ibiti biri hepfo y'umuhanda, inzira y'abanyamaguru na kaburimbo, iruhande rwa kaburimbo hasize umweru n'umukara.

Inyubako igeretse, imbere yayo hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zigiye mu byerekezo bitandukanye, hirya hari icyapa cya sitasiyo ya engini, hari n'ibiti biri aho ngaho, hari n'andi mapoto ari aho hafi, ku nyubako hariho ibyapa bitandukanye, icyapa cya studio, icyapa cya SONARWA, n'icyapa cya KCB bank. N'abantu bari kugenda imbere y'inyubako, n'imodoka zihaparitse.

Icyuma cy'amashanyarazi cya hoti atansiyo, ruguru ari ishyamba, munsi y'ishyamba hari inzu zitagaragara neza, hatambitseho n'insinga zerekeza ahantu hatandukanye.

Ahantu hari ibiti byinshi, hari n'inyubako iri kugaragara hejuru gusa, hari n'indi nyubako yubakishijwe amatafari yumye, imbere y'inyubako hari za matela bacuruza, mu ibaraza hamanitsemo ibindi bintu bacuruza bimeze nk'ibikapu, hari n'ipoto iriho itara iriho n'insinga z'amashanyarazi.

Ipiloni ya hotatansiyo, hari n'insinga zifashe kuri iryo piloni, hari n'ikirere gike hejuru, hirya hari ishyamba, hari n'inyubako zitagaragara neza n'ikintu kimeze nk'ikibuga harimo n'ibyatsi.

Idarapo ry'igihugu rimanitse ku cyuma hari ipoto y'itara, insinga z'amashanyarazi, hakurya hari inyubako zigeretse hari n'ibiti byinshi biri ahantu hamwe. Hari n'igipangu, imbere y'igipangu haparitse imodoka, hagaragara n'amabati y'umutuku.

Imodoka yo mu bwo yutongo itwara abagenzi igeze ku cyapa ahantu ishiriramo abagenzi hari n'akazu gasa ubururu, kariho n'umuntu wicaye ku ntebe, hari ipoto y'amashanyarazi iriho insinga, hirya hari n'inyubako z'ubucuruzi n'umutaka wa eyateri.

Imodoka ziri mu muhanda, hari abantu bari kugenda, hari n'abamotari, uhetse umugenzi, hirya hari inyubako igeretse, hari n'ibiti biri hepfo by'inyubako, hari porotaye, hari n'icyapa kiri mu muhanda, hari n'ipoto y'itara, n'insinga z'amashanyarazi

Ipiloni y'amashanyarazi ya hoti atansiyo, ruguru yayo hari inyubako isa beje, hejuru yayo hari itanka y'amazi, hano hepfo hari indi nyubako isize shokora n'umukara, hejuru hari n'ikirere gikeye, hari n'insinga zifashe kuri iyo pironi.

Icyapa cya REG y'i Gasogi hari n'icyuma cya hoti atanansiyo n'utundi twuma tubiri tuzamuye, inyuma y'icyapa hari amabati n'amabuye akoze kuri borudire.

Imodoka ya kwasiteri iri kugenda iriho ivumbi, hirya y'imodoka hari umuntu uri kuri telefone uri kugenda hari n'amapoto ay'itara ay'umuriro hariho n'insinga n'igiti kiri hirya na ruguru hari ibindi biti n'izindi nyubako zitandukanye hari n'izindi modoka ziparitse ahongaho.

Ipironi y'amashanyarazi ya hote atansiyo ahantu iteye hari ibyatsi n'ibiti, kuruhande rwo hepfo hateye imigano myinshi yakuze, hirya hari umuhanda utagaragara neza.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo n'umumotari uheretse umugenzi, hepfo hari abantu bari kugenda, hirya hari ahantu abantu bahagarara bategereje imodoka, hari n'amafoto y'amashanyarazi ariho n'insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, hepfo hari inzu igeretse, no hirya hari indi nzu, hari na korotire ikozwe mu biti.

Ni umumama uhagaze ku muhanda iruhande rwe hari umufuka, hari ipoto mu biti bikikije umuhanda, harimo n'ibyapa hepfo umuntu uri kuhaturuka uri kuza agendera iruhande rwa kaburimbo.

Ipoteri iriho insinga z'amashanyarazi, akapa kanditseho KK372. Ruguru hari inyubako igeretse hari n'ibiti bihateye n'utundi duti turi ku mpande tw'umuhondo, hari n'umuhanda w'igitaka umanuka.

Kaburimbo, hirya hari umumotari, imikindo ikikije umuhanda, hari n'akayira k'abanyamaguru, hari imodoka ziparitse, iruhande rwa korutire hari borudire itwikiriye, hari ipoto y'itara n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi n'inyubako igeretse iri iruhande, hari n'indabyo imbere yayo.

Inzu ifite ibara ry'ubururu n'umutuku n'umweru, hirya hari indi nyubako yegeranye n'ipironi rya wotatansiyo, mu murima hateyemo imyumbati, harimo n'ibigori, hari ipironi y'amashanyarazi iriho insinga, hari n'ibiti biri hirya.

Inzu ya bloc ciment bari kubaka ikorotirijwe n'amabati ku mpande, harimo ipoto ririho insinga z'amashanyarazi. Ni Clôture y'amatafari yumye hejuru haziritseho utwuma, hari nigiti ziteye iruhande rw'iyo Clôture.

Inzu y'ubucuruzi focus shop bacuruza ibintu bitandukanye hari matera bacuruza ziri hanze hari n'ibimaneke byambaye imyenda, intebe ya parasitike hirya hari umuntu wicaye imyenda itandukanye imanitse hejuru kuruhande kuri pariko bafunzeho ikintu hari n'intebe.

Inzu y'inyubako igeretse, ku irembo hariho icyapa cyanditseho imodoka z'ibitaro, hari n'insinga n'ibiti biri imbere ya korutire, iyo nyubako akaba ari iy'ibitaro bya Nyarugenge.

Inzu zo kwa muganga hari n'imodoka ziri kwinjira zijyayo, imbere hariho ahantu handitse CHUB akaba ari i Butare, hakaba hari na kaburimbo borudire ikaba ipfundikiye.

Inzu yubakishijwe amatafari yumye, hari korodoro ikikijwe n'utwuma isakaje amabati, ruguru hari n'indi nyubako igeretse isa bege, hari n'ibyatsi, hari na borudire icamo amazi, hirya hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru, n'undi umuhagaze impande.

Abantu bicaye ku ntebe, abandi barahagaze harimo n'abagororwa muri abo bicaye n'abandi bahagaze bameze nk'abari kwa muganga baje kwivuza.

Inyubako zo kwa muganga, hagiye hari n'ibyapa bigaragaza aho waba ushaka kujya, hasashe amabuye hasi, hari na borudire yo gucamo amazi, hakurya hari ishyamba n'amazu menshi n'ikirere.

Imodoka ziparitse nyinshi, hari n'umuntu uri kumanuka, hari n'undi uhagaze, wambaye ikote ry'umukara, hari imikindo, hari n'akapa katagaragara neza biragaragara ko imvura yari imaze kugwa, hakurya hari n'ishyamba.

Ibaraza ry'inzu rifashwe n'ibyuma hirya hari akazu gatoya, umukindo, hari jaride y'ibyatsi, hari n'amapave, inyuma ya korutire hari ishyamba ry'ibiti, hirya hari abantu barimo baramesa.

Abantu bari kwa muganga, inyubako ni izo kwa muganga, hirya hari n'imbangukiragutabara ishatu ziparitse ahantu hamwe. Hari n'umuntu usa nk'ugiye kwicara, hari n'umukozi wo kwa muganga wambaye iniforume zaho. Hari n'undi ufite akabido mu ntoki n'agacupa uri kumanuka, hasi hasashe amapave, Hari n'icyuma kiriho urusinga.

Imodoka y'Ibangukiragutabara iparitse imbere yo kwa muganga hasi hashashe amabuye hepfo yawo hahinze ibigori inyuma y inyubako hari ipoto y'amashanyarazi n'ishyamba riri hakurya.

Abacamanza babiri, bari guhererekanya inkoni ikoze mu giti, iruhande rw'umwe hari ikiganza gifashe mikoro, inyuma yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru n'icyapa kitagaragara neza cyanditseho asosiyasiyo.

Abantu batatu bahagaze bareba imbere, imbere yabo hari ameza maremare, uwo hepfo amanitse ukuboko, undi yambaye ikanzu y'abacamanza, uyu wa ruguru ari kureba ku meza.

Abagororwa bambaye imyenda ya orange bambara n'udupfukamunwa, ku meza hajya hatetseho imashini, inyuma hari umucungagereza uhagaze ahagararanye n'undi mugabo utagaragara neza hari n'amadirishya.

Abavoka babiri, hagati yabo harimo umugororwa, bambaye masike bose, inyuma yabo hari umuntu wamanitse amaboko, afite telefone ashobora kuba yari ari gufotora, hari n'abandi bantu batagaragara neza bari inyuma yabo, hari irido, hejuru y'irido hariho cosatara n'ameza ateretsetseho uducupa tutagaragara neza.

Abacamanza bane bahagaze, bose bifashe kimwe; imbere yabo hari akameza, babiri bambaye rinete, bambaye n'imyenda imeze kimwe.

Abamotari bari ku murongo bahagaze muri kaburimbo, muri kaburimbo hasi hashushanyijemo umurongo w'umuhondo imbere yabo hari umupolisi uhahagaze, yerekeje ukuboko kwe imbere ashobora kuba hari ibintu yari ari kubabwira, ruguru mu rundi ruhande haparitse imodoka ya polisi, hirya hari inzu zihari hari n'ibiti biri kugaragara.

Abantu bambaye udupfukamunwa, hari n'icupa rya gaze riteretseho n'isafuriya, umumama wambaye agapfukamunwa, akaba yari agiye gutwikirizaho igitambaro hejuru y'isafuriya, yari ari kwerekana uko wazimya gaze haraye haramutse hahiye, hari umupolisi ari kumwerekera.

Abantu bari kuzimya ahantu hahiye, hirya yabo haparitse imodoka, inyuma y'iyo modoka hari igorofa, hari n'abantu bari mu mpande zombi, hari n'imbaho aho ngabe bari kuzimya wagira ni nko mu gakinjiro.

Abanyeshuri benshi bamwe bicaye hasi, abandi barahagaze, imbere yabo mu byatsi hari umuntu uhahagaze afite icupa mu ntoki rye ririho umugozi, hari n'irindi cupa rya gaze riteretseho n'isafuriya, ashobora kuba ari kubigisha uburyo haramutse habayeho agisida hagashya uburyo wayizimya.

Moto iri mu muhanda igenda ahatandukanya umuhanda hateye indabyo hari n'umukindo hepfo yumuhanda hari igiti n'insinga z'amashanyarazi zitagaragara neza hepfo hari n'umupolisi n'umuntu ugenda mumuhanda.

Ikiganza cy'umuntu, intoki eshatu zirahinnye, izindi ebyiri zirarambuye, hirya ye hari ibara ry'ubururu, izo zirambuye hakaba hariho inki ko yari amaze gutora.

Abayobozi batandukanye bari mu nteko inshinga amategeko, imbere yabo hagiye hari mikoro, amacupa y'amazi, ayo macupa ni ibirahuri ntabwo ari pulasitiki, ku meza hagiye hateretseho n'utuntu twanditseho amazina yabo.

Abayobozi batanu bahagaze imbere, harimo umukuru w'igihugu Paul Kagame, Minisitiri w'Intebe Eduard Ngirente, Mukabalisa, imbere yabo hari ameza, hasi y'ameza hariho imigongo, imbere yabo hicaye abantu, hari n'amadaropa atandukanye, amadarapo y'u Rwanda n'idarapo rya East Africa.

Ishusho iriho perezida Paul Kagame, inyuma hari abantu benshi, bazamuye ibipfunsi hejuru, hari n'ishyamba riri ku musozi, hirya hari n'amazu ari kugaragara n'ibiti byegereye amazu biri inyuma y'abantu.

Abantu bahagaze, hiryara abana n'ibiti hari n'inyubako zikikije ikibuga, hari uwicaye kuri purasitike, imbere y'ameza hari igitambaro n'imashini ku ruhande hari ikarito n'akantu k'ubururu.

Umukuru w'Igihugu perezida Paul Kagame amanitse ukuboko, hano be bari kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'Igihugu, perezida Paul Kagame yari ashyigikiwe n'abantu benshi, inyuma ye hari abantu benshi bamanitse amadarapo ya FPR, bamanitse n'amafoto menshi amugaragaza, nk'umukandida wa FPR, akaba na chairman wa FPR.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, hari amahema abiri, ihema ritonya rihagazemo umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame, yari umukandida wa FPR Inkotanyi, ayo mahema adekoreshejwe amabara ya FPR, ihema rinini ryo hirya ryicayemo abantu, hari n'abandi bicaye imbere, bari kureba umukuru w'igihugu ari kuvuga, hano bakaba bari bari mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu.

Frank Habineza aricaye, yambaye kositimu, afite telefone mu ntoki, ameze nk'uri gufotora, iruhande rwe hicaye undi mugabo, n'inyuma hicaye abandi bantu batagaragara neza, hari n'agacupa k'amazi gateretse ku meza.

Ifishi bari bari kubaho amajwi yari avuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari yabaye tariki cumi n'imwe na cumi n'eshanu z'ukwakarindwi bibiri makumyabiri na kane, akaba yari amajwi ya Paul Kagame.

Abantu batandukanye bari mu nteko umwe yambaye agapfukamunwa apfutse no ku gahanga imbere ye hateretse igikombe n'amazi abandi nabo hateretse amazi imbere yabo ku mpande zabo ntabwo ibindi bigaragara neza hagiye harimo n'utuntu twanditseho amazina.

Imbere y'abaturage hari umukandida wa FPR, perezida Paul Kagame azamuye igipfunsi, hari n'idarapo rya FPR, iruhande rwe hari ushinzwe umutekano, hari amadarapo menshi ya FPR akikije aho bantu bari baje kwiyamamariza, abaturage benshi bari bakurikiye ibiri kuhabera bafite ibiranga FPR.

Abantu bicaye mu nteko nshingamategeko, ku meza yabo hateretseho uducupa tw'amazi hari n'itasi iteretse ku meza, hari n'umuntu ufite agapaniye bari kugenda bashyiraramo udupapuro wagira ngo bari bari mu matora.

Uyu nguyu ufite mikoro mu ntoki yitwa MPAYIMANA Philippe, akaba yari ari mu biyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu, aha ngaha akaba yari ari kwiyamamaza, aba bari ku mpande akaba bari bamuherekeje.

Abagabo batatu bahagaze imbere hari uhagaze kuri mikoro yitwa Nahimana Philippe. Inyuma hari umugore wambaye lunette. Hari n'ameza ariho ibitambaro. Hirya hari umuntu wambaye ijire umeze nk'ucunze umutekano. Inyuma hari inyubako z'ubucuruzi, hari n'abantu bari iruhande rw'iyo nyubako. Hari n'intebe z'ubururu za palasitike. Inyuma hamanitse n'amafoto ye.

Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul KAGAME, afite urupapuro mu ntoki ruzinze, akaba yari agiye kurushyira ahantu, bikaba byari mu matora amaze gutora, hari n'undi uri inyuma ye.

Frank Habineza afite ingabo n'icumu mu ntoki, umugore yambaye urugori mu mutwe, bahagaze mu ihema, inyuma yabo hari abantu benshi, uyu nguyu yigeze kuba na depite, yiyamamarije no kuba Perezida.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, bafite amadrapo yanditseho FPR, umwe yambaye n'ingofero n'imipira iriho igipfunsi cyanditseho FPR, hirya hari inyubako itari kugaragara neza, bakaba baje mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida w'Igihugu.

Abantu bose bari bari mu gikorwa kimwe, bamwe bambaye amashati, abandi bambaye imipira n'ingofero zanditseho PK, bamwe bafite ibipfunsi mu ntoki zabo, abandi bafite amadarapo yanditse FPR, bari bari mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida wabo Paul Kagame.

Iki ni ikirangantego cy'u Rwanda cyo mu gihe cyashyizwe, kigizwe n'amabara atandukanye umutuku, umuhondo, icyatsi, handitsemo Repibirike Rwandeze Riberite Koperasiyo Porogeresi, hariho n'inuma hejuru.

Hari abantu benshi, hamanitse n'amadarapo ya FPR inkotanyi, hakaba hari n'ibyuma, ku nkingi hariho umweru, hejuru hariho amabara ya FPR, hirya hari ibiti, aba bantu bakaba bari baje mu kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu.

Uyu ni Mpayimana Philippe yari umukandida mu biyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu aho akandagiye akandagiye ku mukeka, inyuma ye hari abantu bicaye hari n'ameza, hari n'icyapa kiri inyuma kiriho ifoto ye. Ku ru hande rwe hari umuntu ufite urupapuro mu ntoki, hirya hari umuntu uri ku igare uri kugenda n'inzu yubatse y'ibyondo.

Imodoka ya Kigali Coach ihagaze ahantu, hepfo hari umugore uhetse umwana, wikoreye utuntu ku mutwe, hari umusaza uhetse igikapu, hari n'umuhungu wikoreye amarinete hamwe n'amakofi. Ari kubicuruza. Imbere hari n'inyubako y'igorofa.

Imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu iri muri kaburimbo, inyuma hari iya Toyota, hari na moto, hari na mota iparitse ku mpande n'imodoka, hari n'inzira y'abanyamaguru harimo abantu bari kuyigendamo, ruguru hari inyubako igeretse ya hoteli, hepfo hari n'indi nyubako yegereye umuhanda, hakaba hari n'ipota.

Abamotari bari mu muhanda harimo imodoka ya dayihatsu ifite ibyuma hejuru, hirya hari imodoka ya rukururana y'ubururu, hari n'umuntu wikoreye imifuka ibiri, hari n'undi uri kugenda, hari n'undi wegere barudire uri kuri terefone uri kugenda, hirya hari n'igiti kitagaragara neza hari n'ibiti bikikije umuhanda hepfo kugahanda k'abanyamaguru, hari n'ikintu cyihakorutiriye ni ikintu k'icyatsi.

Ipoto y'amashanyarazi ihagaze muri kaburimbo ruguru hari akamoto gatwara imizigo n'akandi kamoto k'ubururu katagaragara neza ruguru hari ibiti , hari n' ipoto y'insinga z'amashanyarazi hari inzu y'umutuku ikozitejwe ibyatsi wagira bari kubaka.

Imodoka yo mu bwoko bwa Dayihatsu iri muri kaburimbo ipakiye amakesi atandukanye, harimo n'ayanditseho henikeni, hepfo y'umuhanda hari ibiti, hari n'umumotari uhetse umugenzi, hari n'indi modoka iri kujya mu kindi cyerekezo hari n'akayira k'abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa Yutong isa ubururu n'umweru, umuhanda warangiritse, harimo ibinogo hakurya hari ishyamba, hari n'umunara uri kugaragara aho mu ishyamba, hepfo y'imodoka hariho ipoto y'itara.

Akamoto gatwara imizigo kari muri kaburimbo, gatwikirijweho shitingi y'umukara. Hepfo kuri kaburimbo hari ibiti bihakikije, hari n'akayira k'abanyamaguru. Hirya ku cyapa cya mirongo ine hari abantu bahagaze ku ipoto y'itara, hirya hari n'imodoka iri kumanuka mu muhanda.

Imodoka ya yutongo ya kampaniy ya luwayale imbere yayo hari resitorat yitwa hani hari n' imodokadoka ebyiri ziparitse z'umukara, hari umumotari uririmkuri kaburimbo kuhande hari inzira y'abanyamaguru hari n'ahantu hari buludire itwikiriyeho. Hirya hari ipoto y'itara hari n'indi nzu hari n'insinga z'amashanyarazi.

Imodoka za kwasiteri na bisi ziri muri gare, hari abantu bari kugenda, ku nyubako harimo icyapa cya eyateri n'ibindi byapa n'icyapa cya resitora cyanditseho cipusi, hirya hari ibiti harimo insinga z'amashanyarazi.

Imodoka itwara abagenzi ya zonda iri mu muhanda hari n'indi ya toyota itagaragara neza ruguru ya zonda hari moto hirya hari ibiti muri ibyo biti ndikubonamo ipoto y'itara.

Moto inyuma iriho aho batwara imizigo, hepfo y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru, harimon'ipoto y'itara, hepfo hari ibiti, hakorotirijwe nkaho wagira ngo barahubaka, ruguru hari borudire n'indabyo zitagaragara neza.

Imodoka ipakiye imifuka, itwikirijeho shitingi uruhande rumwe ruziritseho n'imigozi, hepfo hari indi modoka y'ubururu iri mu muhanda, hari n'imodoka nyinshi zitondetse ku murongo, hepfo hari n'ibiti bikikije umuhanda, hari n'amapoto y'amatara, hari n'indi modoka igiye gukata iri kurira mu kayira k'abanyamaguru, hari n'indi modoka iparitse inyuma y'iyi ngiyi ipakiye imifuka, hirya hariho ikindi giti.

Imodoka yajyaga iri muri kaburimbo harimo umunyegare ,umugabo uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru coaster irapfundikiye hepfo hari inzira y'abanyamaguru n'ibiti bikikije umuhanda hanakoritiye n'ikintu cy'icyatsi nkaho bari kubaka.

Imodoka ya Royal Express ya yutonge ikaba itwara abagenzi iri muri kaburimbo hepfo hari ibiti bihakikije, hari n'umuntu uri mu nzira y'abanyamaguru uri kugenda kuri borudire harupfundikijwe n'amaboloke.

Imodoka zitandukanye zitwara imizigo ziri muri kaburimbo, imbere hari isa ubururu, inapfundikijweho n'ikintu cy'ubururu, hari n'izindi zitwikirijweho n'ibyuma hejuru, hepfo hari inyubako igeretse, hari n'icyapa cyanditseho pe, giciyemo umurongo kigaragaza ko nta parikingi ihari, hirya hari ibiti, hari n'amapoto y'amatara, hari n'umuntu uri kugenda muri kaburimbo, hari n'undi wikoreye umufuka uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, n'undi mugabo.

Umuhanda ukikijwe n'ibyuma, ku mpande hari imikindo iri hagati ahatandukanye umuhanda w'impfo n'uwa ruguru, hari abamotari bari mu muhanda n'imodoka, hari n'undi muhanda ujya mu kindi cyerekezo cya ruguru, hari n'amafoto y'amatara, hirya hari n'ibiti, n'ibindi biti biri hepfo y'umuhanda n'inzira y'abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso ipakiye imifuka myinshi hejuru itwikirijweho shitingi y'ubururu izirikishijwe umukoba w'umukara hirya hari amagorofa abiri yegeranye hari ibiti byinshi n'imbere y'aho imodoka iri kujya hari igiti.

Kwasiteri ziri muri gare hari iyanditseho yahuka hari n' iyanditseho kigali kocyi, ruguru hari inyubako zigeretse ziriho n'ibyapa. Hirya hari n'amapoto y'amashanyarazi hari n'abantu bari kugenda muri gare, hari n'abari gucuruza.

Imodoka ya dayihatsu iri mu muhanda itwikirijwe shitingi z'ubururu hejuru, ku ruhande hari moto y'amashanyarazi, ihetse n'umugenzi uwo mumotari, imbere hari umunyegare muri kaburimbo, hari na borudire ku gice cya ruguru haragaragara n'ibyatsi bikenya, hari n'ikiraro cyambukiranya borudire, hepfo hari inzira y'abanyamaguru, hari n'ahantu hakorutiriye, hari n'ibiti.

Abamotari batatu bari muri kaburimbo, babiri b'inyuma bahereza abagenzi, hari amapoto y'amatara, hakurya hari n'izu ziri kugaragara, hari n'ibiti biri mu kibaya, hari korotire isize irangi ry'umweru n'amapoto abiri ari muri iyo krotire, ku mpande harimo inzira y'abanyamaguru.

Imodoka ya Dayihatsu iri mu muhanda wa kaburimbo, hejuru irapfundikeho n'icyuma cy'umweru, inyuma hari n'indi modoka iri kuza n'umumotari, hepfo hari n'indi modoka ihaparitse, hari n'ibiti, hari n'inzira y'abanyamaguru, hari nk'ipoto y'itara.

Abamotari bahetse abagenzi n'imodoka iri kwerekeza mu kindi cyerekezo y'ivatiri, ruguru hari imodoka ya Trinity n'abandi bantu bari mu muhanda wa ruguru, na feruje n'ipoto itagaragara neza.

Imodoka ya kwasiteri, Hepfo ya kwasiteri hari abamotari 3 harinda moto y'amashanyarazi iri guhinguka ruguru hari koruture hameze nk'ibyatsi hari n'ahapfundikiye borudire hepfo hakaba hateye ibiti hakaba hakotejwe n'ikintu cy'icyatsi hakurya hakaba hari amazu.

Imodoka ebyiri za ritiko ku ruhande hari umufuka wicayeho n'umuntu, inyuma y'imodoka hari amapoto n'amatara, inyuma hari ishyamba n'abantu bari ku mpande y'akazu n'ipironi y'umuriro n'umuntu uri aho ngaho uri guseka.

Abamotari bari ku murongo baraparitse hirya hari inyubako igeretse iroho icyapa cya mikoro finanse, hari umutaka wa eyateri ruguru hari umutaka emutiyeni, abamotari bambaye amajire ya emutiyeni, baparitse mu muhanda ugiye urimo uturongo tubatandukanya.

Imodoka ya taxi vutire iri muri kaburimbo, hari abamotari bahetse abagenzi ari n'udahetse umugenzi umwe pfo mu kayira k'abanyamaguru hari umugore wahagaze epfo hari ibiti hanakotijwe ibiti n'ikintu cy'icyatsi.

Amagare atatu ahagaze ahantu hamwe, abiri ntabantu bariho rimwe n'iryo umunyonzi ahagazeho. Hirya ye hari imodoka iri kuza na kwasiteri iri kujya mu kindi cyerekezo muri kaburimbo. Hepfo ya kaburimbo hari ipoto ry'itara burije iyi foto yafashwe icuritse.

Tagisi vuwatire iparitse ya yego kabuzi, kuruhande hari abantu babiri, imbere ku nyubako hariho ibyapa bitandukanye, icyapa cya samusange, cyapa cya opo, icyapa cya imfinigisi, hari n'umutaka uri kuruhande wa imfinigisi.

Umumotari uhetse umugenzi uri muri kaburimbo, ahatandukanya umuhanda n'undi hateyemo imikindo hari n'ipoto y'itara, hepfo hari ibyuma bikikije umuhanda, hari n'ibiti bihateye ku mpande, hiirya hari umuporisi uri kugaragara, uhagaze ku muhanda.

Imodoka itwara abagenzi ya rowaya egisipuresi umumotari uhetse umugenzi. Abanyamaguru batatu bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru, hari borudire n'ikiraro kitagaragara neza. Hepfo hari ibiti ni ahantu hameze nkahakorutiriye.

Tagisi vuwatiri iri mu muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibyuma hari n'indabyo zitandukanya umuhanda n'imikindo hirya hari n'ipoto y'itara n'ibiti biri hepfo y'umuhanda.

Umumotari utwaye umugenzi bageze hafi ya zebura korosingi, mu w'undi muhanda harimo imodoka, hari n'ibiti, hepfo y'umuhanda haragaragara amabati y'umutuku n'ay'ubururu, hejuru yayo mabati akorotiriye hagiye hazengukijwe n'utuntu tumeze nk'udusinga.

Imodoka iri mu muhanda, ipakiye amatafari, hepfo yayo hari akayira k'abanyamaguru, hari n'umuyamaguru ufite akantu k'ubururu mu ntoki, hari n'ipoto ry'itara, ruguru hari borudile itagaragara neza.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo ya rukururana, inyuma hariho tanke, ku ruhande hari borudire inariho ikiraro, hepfo hari ibiti hanakorotijwe ikintu cy'ibara ry'icyatsi, hakurya hari inzu zigaragara, hejuru y'iyo tanke hariho n'ipine y'imodoka.

Imodoka iri muri kaburimbo, kaburimbo yarangiritse, ipakiye ibintu, bayizirikishijeho imikoba, hejuru hicayeho umuntu, hepfo yayo harakotiriye, n'ikintu cy'icyatsi n'ibiti.

Imodoka ya yutongi iri kugenda muri kaburimbo hari n'inyubako y'igorofa, igiti, iyo modoka ikaba iriho ibyapa bya BK ko itanga serivisi zihendutse imbere hari n'abantu bari kugenda.

Imodoka itwara abagenzi ruguru yayo hari umunyegare uhetse umugenzi, hari n'ikiraro gifunze borudire n'indabyo zitagaragara neza, hepfo hari ibiti haranakorutiriye nk'aho bari kubaka n'akayira k'abanyamaguru.

Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ipakiye imizigo, imbere yayo hari imodoka itwara abagenzi, inyuma y'iyi ipakiye imizigo ho hari abamotari babiri, ku nyubako hariho ibyapa bitandukanye, icyapa cya sikoro marite, icyapa cya saro, icyapa cyaho bacura imfunguzo, akapa ka beka n'akapa ka ekwiti.

Inyubako iriho ibyapa bitandukanye harimo n'icya Sanilamu, hari n'amatara hejuru y'inyubako, hari n'ipoto iriho insinga, hari na moto itwara imizigo iri mu muhanda n'umumotari utwaye umugenzi n'imodoka iparitse imbere y'inyubako n'umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru.

Imodoka isa icyatsi ipakiye ibintu, ipfundikijweho shitingi y'ubururu, inyuma yayo hari indi modoka iri kuza na moto n'umuntu uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, ruguru y'iyi ngiyi ipakiye hari indi iri kujya mu kindi cyerekezo, ruguru yaho hari inzira y'abanyamaguru n'igipangu cy'amabuye kiriho n'utwuma n'inzu irimo ruguru n'ibiti.

Ahantu hameze nk'aho hari aga sitade gatonya hari abantu bicayemo, hirya hari n'inyubako, hari n'ibiti bigiye bihakikije inyuma no ku ruhande. Imbere hari amapave, hari n'amabuye afashe kuri ako gasitade.

Inzu igeretse yubakishijwe amatafari yumye, hari abari mu kibuga bari gukina umupira, muri icyo kibuga bashizemo icyuma, iki kibuga kikaba ari icya vore, hari n'ibyatsi n'imikindo, hirya ku nyubako hakaba hakorotirijwe n'utwuma.

Ahantu hari ikibuga cya tennis, imbere hari ahantu hasashe amabuye hasi, hari n'ahari amapave, hari n'aho imodoka iparitse na moto n'ivaze iri hafi n'ipoto, hirya hari ibiti, ku gikuta hirya handitseho The World Cap of Tennis.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, ku mpande hari ibitaka, hirya hari ipoto hari n'ibiti bikikije icyo kibuga. Hejuru hari n'ikirere hari n'abantu bari hagati mu kibuga.

Feruje zigaragaza amasegonda, hamwe abamanuka hepfo ni amasegonda umunani, abakomeza imbere amasegonda cumi n'ane, abazamuka ruguru amasegonda cumi n'ane, iyi feruje ikaba iri Peyaje, kwasiteri iri mu muhanda iri kumanuka, n'izindi modoka zitandukanye harimo n'umumotari.

Ni feruge, iri kugaragaza ko hagezweho ko umunyamaguru yakambuka, iranagaragaza iminota mirongo, amasegonda mirongo itatu n'ane, inyuma y'aho hari ibiti n'icyuma k'ipoto.

Imodoka iri muri kaburimbo, ku mpande hari inzira y'abanyamaguru, hari na borudire itwikiriye, hirya hari icyapa cyanditseho Nyarugenge Penshoni Pulaza, hepfo handitse Kigali senta, hari n'icyapa cyerekana ko hari zebura korosingi, hirya hari n'ahantu hari inyubako bari kubaka, hari n'ibiti n'ibyatsi bikikije umuhanda.

Feruje iri kugaragaza ko hagezweho kwambuka kw'abanyamaguru, haragaragaza ko harimo amasegonda mirongo itatu n'ane, ruguru yaho hari ipoto, n'ibiti bihakikije.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko imbere hari Zebura korosingi umunyamaguru yambukiraho, haruguru hari urupangu rw'amabuye ruriho n'utwuma, inzu igeretse mu imbere, imbere y'iyo nzu hateye ibiti hari n'uduti tw'umuhondo tuhateye hepfo hari ibyatsi biteye iruhande rwa borudire buri na kaburimbo.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana ko ukomeje imbere waba ugiye ku kibuga cy'indege, hakaba hari n'ahajya Convention Center, Radisson Blue, Kacyiru, muri kaburimbo hari n'ibyapa bitandukanye, hari n'ibyatsi bikikije ku muhanda, hari n'akayira k'abanyamaguru, hari n'ibiti biri hirya, ruguru hari n'ahantu hari umunara.

Ibyuma bibiri bishinze mu butaka kimwe cyanditseho Akarere ka Gicumbi, hariho na fureshi iherekeza, ikindi cyanditseho murakaza neza muri Repubulika y'u Rwanda, mu muhanda hari imodoka ya rukururana, inyuma yayo hari ikamyo, hari n'amapoto y'amatara, hirya hari icyuma cya hoti atansiyo, hari n'ishyamba, hakurya ku musozi n'umukindo ku mpande y'umuhanda, n'inzira y'abanyamaguru.

Inzu igeretse, imbere ya porutaye hateye umukindo n'ibiti n'ibyatsi, hejuru hari urutsinga rw'amashanyarazi, ku mpande hateye igiti hari n'ibindi biti biteyemo imbere, iruhande rw'inzu.

Inzu ziri mu bipangu zirageretse, imbere y'izo nzu hari amapoto y'amashanyarazi ariho n'insinga, hari na kaburimbo imbere y'inzu, hari n'indi kaburimbo iri iruhande rw'igipangu izamuka.

Inzu ya apartment yitwa stay apartment ikorotirijwe n'amatafari yumye ifite porutaye ikoze mu mbaho inzu igeretse kabiri kuri bariko zayo hagiye hariho indabyo harimo n'imikindo mu kirahure kiri kuri porutaye hari kugaragaramo intsina hejuru hari n'intsinga ziri kuhaca.

Ahantu hari inzu z'ubucuruzi zitandukanye ziri ku murongo, iyo hagati hariho kuba bacuruza imyenda kuko hariho n'ibimananike byambaye imyenda biri ku muryango hepfo hari undi muryango ufunguye ntabwo ibyapa byaho bigaragara neza ruguru hari undi muryango ufunze handitseho biro davoka ko hakorera noteli wigenga hari n'imbuga hari n'ahantu hari barudire ifunzwe n'utwumwa.

Amazu menshi ari ahantu hamwe, hari igipangu kiriho utwuma hejuru, umukindo, ibiti bitandukanye, hakurya hameze nk'ahahari ishyamba, hagaragara n'umunara uri hirya.

Inzu igeretse, hari kaburimbo, hari abantu bari kugenda muri kaburimbo, hari n'igiti kiri ku mpande ya kaburimbo, kuri boridire hapfundikiyeho uruhande rumwe, hirya ntabwo hapfundikiye, hepfo hari utwumba dukikije iruhande rw'umuhanda, hari n'inzira y'abanyamaguru.

Ibiti, hepfo hari hari inzu winjiyemo hari icyapa cyanditseho "Pedro's coffee", imbere y'inzu ku idirishya hateretse intebe zo kwicaraho, imbere hari akayira k'abanyamaguru, ruguru y'ako kayira hateretse ameza n'intebe zo kwicaraho zindi.

Kaburimbo ziri muri qaurtier kwa Mushimire Kimironko. Hari ibiti bikikije Clôture z'amazu hari n'ubundi buti bukikije ku muhanda, hakurya hari amazu menshi hari umusozi uteyeho n'ibiti.

Abamotari bari mu muhanda, harimo imodoka ziparitse, hari inzu y'ubucuruzi hejuru hariho antene, hirya hari abantu bari mu muhanda bari kuza, hakaba n'umutaka wa MTN, hakaba hari n'ipoto y'amashanyarazi, hakaba hari n'ibiti biri kugaragara, n'inyubako ziri hakurya.

Inyubako igeretse yanditseho ko hari ivuriro ry'amenyo, hari n'indi nyubako iri hirya iri kugaragara igice kimwe n'ibiti n'imodoka ziparitse imbere y'iyo nyubako, hari n'amapave hari n'akayira k'abanyamaguru, hari n'inzu itararangira bari kubaka na kaburimbo.

Abamotari bari mu muhanda, hari na moto ziparitse, hari n'amapoto y'umuriro, ariho n'insinga n'inyubako z'ubucuruzi, hirya hari n'igipangu, hari n'indi nyubako, iriho icyapa cyanditseho ko bakata imfunguzo, hariho na nimero wabahamagaraho, hari n'abantu bari kugenda mu muhanda, hari n'ufite inkweto mu ntoki.

Inzu igeretse rimwe ikorotijwe n'amatafari yumye, kuri korotire hagiye hariho n'utwuma n'amatara, hejuru y'inzu haragaragara urusinga, inzu isize amabara atandukanye, ni nziza.

Inzu z'ubucuruzi ziri ku murongo imwe bacururirizamo amata y'inyange hari n'icyapa cyimanitse kibigaragaza ko bayacuruza, noneho mu muryango ku mata y'inyange hari umuntu uri mu muryango hari na ho haka ba hari intoki, hirya hari aho bacuruza imyenda ya mayidi ini Rwandada harimo n'imodoka iparitse mu mapave, n'ibiti bitagaragara neza n'urusinga rugiye ku nyubako imbere hari amapave.

Inyubako iriho icyapa kubagira amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi, hirya hari ikindi cyapa ku nyubako, cyanditseho ko bagira karite ya mbere yo mu Bushinwa, imbere haparitse imodoka, aha handi hari boridire ipfundikijwe n'utwuma, n'imodoka iparitse imbere y'inyubako.

Inyubako zigeretse hariho antene za Kanari, iyo hirya hariho ibyapa bitandukanye, imbere y'inyubako haparitse amamodoka ndetse n'abajenti ba MTN, hirya hari n'umutaka w'ubururu na korutire y'utwuma.

Ku cya mitsingi ni i Remera usa nk'ujya i Kanombe, hari ahantu bita ku cyapa cya mitsingi, izi nyubako hari ahari icyapa ko bacuruza amata y'Inyange, hakaba hari n'igiti imbere n'imodoka iparitse n'amapave asashe imbere yaho.

Inyubako nyinshi ziri ahantu hamwe. Hari n'ibiti bigiye biri hagati y'inyubako. Ruguru hari umunara utagaragara neza n'inyubako zikaba ziherereye chez Rando i Remera.

Inzu y'igorofa, hasi hari ahantu bacururiza amarangi, imbere y'inzu haparitse imodoka y'ivatiri y'umukara, hari n'umuntu uri kuza wambaye umupira w'ubururu, hirya hari ipoto y'itara, hari n'insinga z'amashanyarazi n'ibiti biri hirya.

Amagorofa atandukanye, mbere yaho hari abantu bahagaze, hari amamodoka ari mu muhanda, umutaka w'umuajenti wa Airtel, hirya hari amapoto y'umuriro n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande hari porutaye hari amazu ageretse no hirya hari indi nzu igeretse, mu muhanda harimo abantu, mu gipangu kimwe harimo itanka hejuru iratwikiriye hari n'insinga z'amashanyarazi, igipangu kimwe hari n'ibiti bihakikije hari n'ikindi giti kiri mu gipangu.

Imodoka y'umukara iri muri kaburimbo, iri kuzamuka hepfo indi kaburimbo ihari, hari n'ibyuma bihateye bibiri, korutire y'amatafari hariho utwuma, wambutse umuhanda hari ifoto iriho icyapa cy'umutuku n'umweru cya Airtel, icyo gipangu cyanditseho Mitzing, mo imbere mu gipangu harimo inyubako igeretse, hirya hari ahantu bacururiza amata y'Inyange, hari n'izindi nyubako ziri hirya zitagaragara neza.

Imodoka iri mu muhanda, ruguru hari igorofa, hepfo hari igikuta kiriho utubariko tw'utwuma, mu muhanda hariho umuntu uri ku igare n'imodoka iri mu muhanda y'umukara, ku gikuta cya ruguru handitseho mitsingi.

Umuntu utwaye velomoteri iriho amacupa abiri ya gaze, n'umunyamaguru uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, hepfo hari inyubako y'urusengero, haparitse n'imodoka, hari na pubeli zo ku muhanda, n'imikindo iri ku muhanda.

Igorofa ririho ibyapa bitandukanye, ku ruhande rwayo hari ipoto y'amashanyarazi, hariho n'insinga, hepfo hari ibiti no hiryari ibiti, harimo imitaka ibiri ya emutiyeni y'aba ajenti, Wambutse umuhanda hari icyapa kigaragaza ko nta makamyo ahaca, hari n'ivatiri iri kumanuka hepfo, n'indi iri kuzamuka.

Moto ebyiri ziri muri kaburimbo, imodoka y'umukara na toyota n'indi moto iri mu kindi gice cyo hepfo, ibyatsi bitandukanya imihanda, fureshi ishushanyije mu muhanda.

Kaburimbo hirya aho imodoka igeze hari zebura korosingi, hari n'ipoto y'itara, hirya hari ibiti byinshi hari n'imodoka iri mu muhanda ku ruhande rw'umuhanda hari utwuma tw'ubururu tuhakikije, hari n'inzira y'abanyamaguru.

Kaburimbo ifite hepfo na ruguru hagati aho ahatandukanyekanya izo kaburimbo hatemo imikindo harimo n'amapoto y'amatara hirya hari amapironi abiri yahotatasiyon hepfo hateye imikindo ruguru hari n'ayira k'abanyamaguru hari kugaragara na moto twaturuka hirya hari umumotari n'undi uri imbere n'umunyegaru uri mu muhanda.

Imodoka y'umweru iri muri kaburimbo hepfo hari ipoto y'itara, hano hari borudire n'umukingo, hepfo hari ibiti bihakikije, hakurya hari izindi nzu zigeretse hari na kaburimbo iri kuzamuka ku rundi ruhande hasi harimo ibitaka.

Imodoka iri mu muhanda iri gukata hari n'abamotari impande zayo bahagaze kugira imodoka ibanze ikate, ruguru hari igipangu cy'amabuye, hepfo hari n'ibyatsi n'igiti, hepfo hari inzira y'abanyamaguru n'amafoto y'amatara n'ay'umuriro n'icyapa kitagaragara neza.

Umuhanda ukikijwe n'utwuma, hari n'imodoka iri mu muhanda, iruhande rw'umuhanda hari inyubako zigeretse zinadekoyeho utuntu tw'udutara, hakaba hari n'amafoto y'amatara akikije umuhanda. Bikagaragara ko ifoto yafashwe ari nijoro hari n'inzira z'abanyamaguru ku mpande zombi.

Abantu bari mu muhanda, ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru aho bategera, hari na kaburimbo, hari ahatandukanye kaburimbo hateye ibyatsi harimo n'amapoto y'amatara, hepfo ku muhanda mu kayira k'abanyamaguru hari umupolisi, hari n'inyubako igeretse hirya n'ibiti biri hirya n'ikirere, hari n'ahatwikiriye borudiri.

Moto ziri mu muhanda wa kaburimbo, harimo n'imodoka, hari umuntu uri kugenda mu nzira y'abanyamaguru. Ahatandukanya umuhanda hateyemo imikindo n'indabyo, hari n'amapoto y'amatara, hari n'utwuma turi ku gice cyo hepfo dukikije umuhanda uruhande rumwe, hari na zebura korosingi ziri kwambuka umuhanda.

Umuhanda ufite hasi no hejuru, umuhanda harimo moto, imodoka zitandukanye, harimo imodoka ya bisi itwara abagenzi, iri guturuka hirya, hari n'ibiti bihakikije, hari n'amafoto y'amatara.

Kaburimbo harimo imodoka, hepfo hari akayira k'abanyamaguru, hakaba hari n'uruzitiro rw'ibiti, mo imbere harimo ibiti, ku rundi ruhande naho hakikijwe n'ibiti ku muhanda, mo imbere harimo inzu, hariho na koruture ifite na poritaye.

Ari kugendera ku igare ukaba ari umuhanda ufite hasi no hejuru akaba ari umuhanda wa Kicukiro centre hirya hakaba hadekoye n'amatara, hari n'amatara ari kwaka hejuru, hari n'imikindo iri ku muhanda n'indabyo. Iyi foto ikaba yarafashwe ari nijoro.

Imodoka ziri mumuhanda wa kaburimbo, hepfo hari ipoto y'amashanyarazi, amapoto y'amatara, hari n'ibiti bikikije umuhanda, hepfo hari ibyatsi, hari n'inzira y'abanyamaguru, kaburimbo ahantu hamwe yarasataguritse.

Inzira ya'abanyamaguru, ku ruhande hari igikuta cy'amabuye, hejuru ku gikumbe cy'amabuye hatambitseho ibyuma, hirya hari sitasiyo ya Enjeni, hepfo hari ibiti bihatondetse, hari n'amapoto ya matara.

Moto ziri muri kaburimbo harimo imodoka ya mitsingi iri mu muhanda, hari n'ahatandukanye umuhanda hateye indabyo harimo n'icyuma n'umukindo, hirya hari ishyamba, hari na zebra cross umuntu agiye kwambukamo.

Abantu bari kwambuka muri zebura korosingi, abamotari, umwe yazambutse undi aracyari hirya yazo, akavatiri kari kujya mu w'undi muhanda, ruguru y'ako kavatiri hari igikuta cy'amabuye, kuri icyo gipangu hariho irange, banditseho DSTV n'ipoto ry'umuriro n'insinga, hepfo y'umuhanda hari ibiti.

Inzira y'abanyamaguru harimo umuntu uri kuyigendamo ku ruhande hari ibyatsi hari n'ipoto y'itara munsi hari indi kaburimbo ihari, hejuru kuri kaburimbo yindi hari imodoka ziri kugendamo na moto n'indi moto iri imbere, hepfo hari ibiti bihakikije hari n'ipoto y'itara.

Imihanda ijya mu byerekezo aho bitandukanye, hari moto ziri mu muhanda n'imodoka, haragaragara n'ibiti byinshi, hakurya hari n'inyubako igeretse n'amapoto y'amatara, hari na sitasiyo iri hirya, umuhanda umwe ukaba werekeza mu Rugunga, undi akaba ari ujya Kicukiro n'uturuka mu mujyi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite hepfo na ruguru, hepfo hakikijwe n'ibiti hari n'icyuma kiriho icyapa ahatandukanyijwe n'umuhanda hateyemo indabyo hari n'imikindo.

Kaburimbo, muri kaburimbo hashushanyijemo imirongo ya zebura korosingi, hari moto ziri kugenda ebyiri, hari n'imodoka iri kugenda, hari n'amapoto y'amatara, n'ibiti byinshi, ruguru hari n'inzu z'inyubako zigeretse.

Abamotari batanu mu muhanda, hari igikamyo kimwe kirigenda ruguru, n'ikindi kiri kumanuka, hari ibiti bikikije umuhanda n'amazi yamenetse mu muhanda.

Kaburimbo zijya mu cyerekezo gitandukanye hari n'umumotari wo muri kaburimbo hirya hari n'inyubako igeretse, amafoto y'amatara, hari n'ibiti n'ibyatsi n'iruhande rw'umuhanda naho hari ibyatsi, hirya hari n'igiti hakurya hari n'inzu zitagaragara neza.

Imodoka ihagaze kugira abantu bambuke muri zebura korosingi, hepfo hari icyapa , hari utwuma dukikije ku muhanda, hari inzira y'abanyamaguru, hari n'umumotari uhetse umugenzi, hari n'indi modoka iri hirya. Iyi foto ikaba yarafashwe na samusange garagisi a zeru kane se, ikaba yarafashwe mu kwa mbere tariki umunani muri makumyabiri, makumyabiri na gatanu.

Kaburimbo muri zebura korosingi hari kwambukamo umuntu, umumotari arahagaze kugira ngo umuntu asoze kwambuka, mu nzira y'abanyamaguru hari umunyeshuri, hepfo hari inyubako z'ubucuruzi bakoreramo n'iby'irembo, hakurya ndi kubona inyubako za niyu vijeni, hano ni Kacyiru.

Imodoka ya Kwasiteri iri mu muhanda wo hejuru hasi hari umunyegare n'abamotari, hirya hari guturuka imodoka, hari umuntu uri kugenda mu muhanda wa'abanyamaguru hari n' undi muntu w'umunyegare uri munsi y'kiraro hari n'ibiti bihakikije hepfo hari na borudire.

Abanyangare , abamotari kaburimbo hari amapoto y'amatara ku muhande, hari n'inzira y'abanyamaguru, hari k'isibo gasiza amabara y'idarapo ry'igihugu, hari ipoyo yanditseho hashe gatandatu umunani umunani, igiti giteye ku muhanda n'ibyatsi akayira k'abanyamaguru, hakurya hariye ishyamba n'inyubako nyinshi.

Abamotari bari mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari n'imodoka nayo iri kuzaza, amapoto y'amatara akikije umuhanda hepfo hari n'ibiti bikikije umuhanda, hari n'inzira y'abanyamaguru, hari n'ibindi biti biri hirya.

Moto ziri mu muhanda hari na feruje, hepfo y'umuhanda hari ibiti, harimo zebura korosingi muri kaburimbo, hari moto zihagaze, ku ruhande rwo hepfo hari imodoka ziri kugenda, hariho n'umumotari uhetse umugenzi.